Izi ni inyama z'akabenzi cyangwa inyama z'ingurube，zikunda gutekwa mu mabare no mu tubari， urabona azivanze n'ibirayi， harimo na pavuro n'ibitunguru.

Ibi ni ibitoki bitetse, ibitoki batetse batabitonoye, bakabiteka amaganda, ibitoki bitetse bidatonoye, tubyita guteka amaganda biba bidatonoye.

Iyi ni bare aho bacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, n'amafunguro atandukanye harimo inkoko, amaburushete, inyama z'ingurube n'ibindi.

Aka ni akabari karimo ibinyobwa, aba bantu ni abakiriya bari kunywa bari gusabana, imbere yabo hari inzoga yo mu bwoko bwa Pirimusi n'indi yo mu bwoko bwa mitsingi. Hari Mitsingi nini na Mitsingi ntoya, undi anywa inzoga yo mu bwoko bwa Sikoro.

Aba ni abakozi bo muri hoteli cyangwa akabare bigaragara ko bambaye ari abaseriveri cyangwa abaseriva abakiriye muri aka kabari cyangwa muri hoteli.

Iki ni igikoni cya hoteri, biragaragara ko harimo abashefu cyangwa abatetsi, imbere ya bo hariho ameza ariho ibikoresho bakoresha mu gikoni, harimo isahani, amakuto n'amafoke.

Iyi ni hoteri ni hotel yitwa Volufayive Alufe Volukanozi iherereye i Musanze, mu karere ka Musanze ,mu murenge wa Kinigi ,uzamuka ujya kuri Singita.

Aka ni akabare, ni akabari gafite ibirango. Ibirango bya Mitsingi na Henikeni, biragaragara ko hariho ibikurete. Ibikurete byo mu ruganda rwa Burarirwa rwenga inzoga.

Iyi ni butike cyangwa iduka ricuruza imyenda, inkweto, amasaha n'indi myambaro ikenerwa n'abantu bo mu ngeri zitandukanye cyane cyane abagabo.

Iri ni iduka, iduka ry'imyenda, ariko banakodesha imikenyero ziriya ni imikenyero imanitse, cyangwa imyenda y'abamama. Abamama aho bakenyera bakaba banadoda imyenda.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo kampani ya betingi yitwa Lakibeti, iyi nzu iherereye mu karere ka Musanze ahantu bita Nyarubande, umuhanda uva Musanze werekeza mu Cyanika, Cyanika ya Burera ujya muri Uganda.

Uru ni uruganda rukora inzoga mu birarayi, rukaba ruherereye mu Karere ka Musanze, mu Murenge wa Nyange, ruguru y' agasantere bita Ndabanyura, rukora wisiki mu birayi.

Iri ni iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye: harimo amavuta, harimo amasafuriya, harimo imyenda, harimo inzoga n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Iri ni iduka cyangwa farumasi icuruza imiti n'andi mavuta atandukanye harimo: za sanitaziza n'ibindi bintu. Farumasi yitwa gudu rayifu iherereye mu karere ka Musanze.

Iri ni isoko ry'imyenda harimo imyenda harimo ibitenge, harimo amakuvurori, harimo supanete. Iri soko ni isoko ryitwa Goyiko riri mu Karere ka Musanze.

Aha ni ahantu bacururiza piyesedoreshanje, hariho amapine n'ibindi byuma bikoreshwa mu modoka, ni ahantu bagurira ibyuma bakoresha cyangwa bashira mu modoka.

Iyi ni inzu iherereye mu karere ka Musanze, ni inzu irimo Mirano hoteli, harimo n'andi maduka acuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo iduka ricuruza moto, harimo bapiteri, harimo amaresitora n'ibindi bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi cyangwa se butike, iri mu Karere ka Musanze, mu Murenge wa Nyange, mu Kagari bita Kivugiza. Kivugiza ni akagari uba uzamuka utaragera mu Kinigi, ni akagali kari hepfo na Santere ya Kinigi.

Iyi ni inzu iriho icyapa cya matera dodoma, hariho umusuderi uri gusudira, inzugi cyangwa amadirisha. Imbere yaho hari moto nkuko bigaragara ni inzu icururizwamo, ibintu bitandukanye hacururizwamo na matera.

Ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze yitwa hotel Homini iri munsi, iri muri karitsiye bita mu Kizungu, munsi y'ahacumbika musenyeri.

Iri ni iduka ricuruza imyenda ya siporo n'ibindi bikoresho bya siporo. Iri duka riherereye mu karere ka Musanze kuri etaje iri imbere ya banke ya ekwiti mu igorofa rya gatatu.

Aya ni amazu y'ubucuruzi, aya mazu y'ubucuruzi acururizwamo ibintu bitandukanye ariko harimo depo harimo depo y'inzoga, harimo depo y'inzoga kuko iyi modoka yo mu bwoko bwa fuso iparitse imbere, iri gupakurura inzoga zo gucuruza, inzoga za burarirwa z'uruganda rwa burarirwa.

Iyi ni inzu icururizwamo icyayi, ikawa, kofi n'ibindi binyobwa ariko bitari ibinyobwa bisindisha. Ni ibinyobwa bidasindisha cyangwa icyo bita kantine.

Izi nzu cyangwa iri gorofa, ni igorofa ririmo salo rikaba ririmo n'ahantu bakodeshereza imyenda, iri gorofa riherereye mu karere ka Musanze.

Inzu irimo alimantasiyo, aho bacuruza cyane cyane ibicuruzwa birimo: amata, amazi, imikati, amaji n'ibindi bintu bikenerwa mu rugo cyane cyane ibyo kurya.

Iri ni iduka ricuruza amapiyese y'imodoka, ibyo bita piyesedoreshanje. Iri duka riherereye mu karere ka Musanze muri karitsiye bita tete, niho bacururiza amapiyesedoreshanje cyanga ibyuma bashira mu modoka.

Ni papeteri cyangwa aho bacururiza ibitabo, amakayi , amakaramu, impapuro n'izindi serivisi zitandukanye. Iyi papeteri cyangwa iherereye mu karere ka Musanze imbere ya Ekwiti Banke.

Aba ni abantu bahagaze hano mu mujyi, uyu mujyi ntabwo ndi kubona umujyi uwo ariwo, ariko ni abantu bigaragara ko bahagaze impande ya kaburimbo, mu mujyi ariko uyu mujyi ni umujyi, ni umujyi wa Musanze, urabona ko imbere hari paruwase cyangwa katedrali ya Ruhengeri.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho bya legitoronike, harimo amaradiyo bita manini bita ampuri, ariko bakaba banacuruza n'amagare, ririmo amagare y'abana n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Akana n'akazu k'ubucuruzi kazu kubucuruzi, bagatekeramo amasambusa na capati, icapati ziba zikozwe mu ngano.

Iki ni icyapa cyi cyamamaza abantu bigisha icyongereza, nkuko bigaragara handitse ngo twigisha twigisha icyongereza ku buntu andika muri yutube rani ingirishi wivu Lamberi.

Iyi ni kenkayeri. Kenkayeri icuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Iyi kenkayeri iri muri Goyiko mu igorofa ryo hasi ribanza, aho iri kurebana, iri kurebana n'ahahoze banki Keyisibi.

Aka kazu kari imbere y'umurenge wa Cyuve, aka kazu bagatangiramo serivisi zitandukanye z'irembo, bakanacururizamo ibiribwa, amazi, amaji, n'ibindi bintu bikeneGwa cyane cyane ibyo kuJya no kunywa.

Iri ni iduka iduka ririmo imiryango igera kuri ine, icuruzwamo harimo kenkayeri harimo butike icuruzwa ibiribwa n'ibindi bintu bikenerwa, imbere y'aho haparitse imodoka mu bwoko bwa purado.

Uru nu uruganda rukora imiti, imiti yica udukoko, udukoko tugaragara mu myaka cyangwa mu gihe wasaruye imyaka ushaka kuyibika, ugateramo imiti kugira ngo itazazamo udusimba cyangwa inogwe. uru ruganda rwitwa Sopigwa, ruherereye mu karere ka Musanze.

Iyi ni hoteli yitwa comfoti hoteli nkuko bigaragara ku cyapa, yego ku cyapa. Iyi hoteri ntabwo namenya ahantu iherereye ariko ni hoteli.

Iri ni iduka , iduka ricuruza imyenda, hari imyenda y'abagabo n'imyenda y'abagabo , iri duka rikaba ari ijy'uwitwa Ngoga , haba harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye harimo n'inkweto z'abagore n'abagabo.

Inzu y'ubucuruzi aho bacururiza ibikoresho bitandukanye harimo: amakuvurori ,harimo intebe, harimo ibikapu, harimo ni n'indi myenda...

Ni iduka ricuruza ibikoresho bya elegitoronike harimo amaradiyo, harimo imashini zogosha, harimo amayekuteri, harimo amasharijeri, n'ibindi bikoresho bitandukanye bya legitoronike.

Iri ni iduka ricuruza amakaro, amakaro nk'uko bigaragara ni amakaro y'ubwoko butandukanye urabona ko hariho n'iki ikirango cy'amakaro yo mu bwoko ya twayifodi, iyi nzu cyangwa iri duka riherereye mu karere ka Musanze, mu mujyi wa Musanze.

Aka ni akabare, akabare kari mu murenge wa Nyange, mu karere ka Musanze, muri santere bita Ndabanyurahe, aka kabare kitwa Rakwazi, ariko imbere ya ho cyangwa ruguru ya ho hari butike.

Iri duka ni inzu itunganyirizwamo amafoto, aho bafotora abantu bagize ibirori, ari ubukwe ari aniveriseri n'ibindi, bakaba batunganya n'amavidewo. Yitwa gifuti stidiyo.

Aka ni akabare kitwa Oweri inipabu gacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, bagaragara ko habamo n'amafunguro atandukanye harimo inkwavu, burushete, inkoko n'inyama z'ingurube.

Iyi modoka itwara ibikoresho by'ubwiza birimo: amavuta, birimo n'amasabune, ikabijyana mu ahantu hatandukanye mu bacuruza ibyo ibyo bikoresho cyangwa ayo mavuta n'amasabune.

Iri ni iduka, ni iduka jy'amavuta, imisatsi n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu masuku cyane cyane no mu masaro, cyane cyane ku bagore no ku bakobwa. Iri duka ni iduka riherereye mu Karere ka Musanze nyirajyo yitwa Mama Nadiya.

Iri ni iduka ricuruza ibiporoduwi cyangwa porodagiti z' inyange harimo amazi y'inyange, amata y'inyange n'ibindi bitandukanye, harimo n'amaji, iri duka riherereye mu karere ka Musanze ni iry'umuma witwa Muhoza Ane.

Kanoha ni mu isoko, mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye harimo: ibikapu ,harimo amashuka ,harimo ama esuwime bakoresha bakenyeye bajyana mu bwogero ,harimo n'amatapi.

Iri ni iduka ricuruza amarangi, amarangi y'ubwoko bwose nk' uko amarangi akaba ari afasha inzu gusa neza cyangwa afasha mu masuku kugira ngo inzu igaragare cyangwa isa neza sa neza.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi mu igorofa rigeretse kabiri. Iri gorofa riherereye mu karere ka Musanze uzamuka ugana ku isoko ry'ibiribwa ahahoze hitwa Kariyeri.

Iri ni iduka ricuruza imyenda, imyenda n'inkweto by'abagabo cyangwa abagore byo kwambara, n'imindi mitako cyangwa imirimbo itandukanye.

Iri ni iduka cyangwa se butike icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo gaze, harimo n'inzoga, harimo amazi, harimo imyenda, hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwabo.

Ni busheri cyangwa aho bacururiza inyama, inyama z'ubwoko butandukanye hari inyama z'inka, hari inyama, hari inyama, z'inkoko hari amafi, hari inkoko, ni busheri cyangwa aho bacururiza inyama.

iyi ni inzu iherereye mu karere ka Musanze muri sentere ya Kinigi, isantere ya Kinigi ni santere iherereye mu Karere ka Musanze mu Murenge wa Kinigi. Iyi nzu ikorerwamo serivisi zitandukanye harimo serivisi z'irembo, n'izindi serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga.

Iyi ni butike butike icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo inzoga z'amarikeri harimo amakarito y'amaji amaji y'inyange, hariho indobo y'amakeke n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, n'udukingirizo n'ibindi bitandukanye.

Izi ni inyubako ziri mu mujyi wa Musanze, imbere y'urusengero rwa Adeperi, izi nyubako zirimo akabare kabamo na resitora, harimo n'ubundi bucuruzi butandukanye, ariko iriya nyubako yanditseho Twayifodi icuruza amakaro, ni ahantu bacuruza amakaro yo mu bwoko bwa Twayifodi.

Iri ni isoko ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa harimo intebe, intebe z'abana bato ,harimo amakuvureri, harimo indobo, harimo n'utundi dukoresho dukoreshwa mu rugo iri soko ni isoko riri mu karere ka Musanze riri inyuma ya goyiko.

Ni inzu y'ubucuruzi ibarizwa muri santere ya Kinigi, santere ya Kinigi ni isantere iri mu karere ka Musanze mu umurenge wa Kinigi. Iyi ni inzu y'ubucuruzi.

Iyi nzu ni inzu ya kabare yitwa virunga bare, iherereye mu karere ka Musanze uzamuka ujya mu Kinigi ahantu bita Kivugiza.

Iyi ni hoteli yitwa virunga ibarizwa mu karere ka musanze imbere ya hoteli mbere hoteli muhabura iyi hotel niho iri.

Iyi ni kenkayeri cyangwa aho bacururiza, aho bacururiza ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi. Mu bwubatsi urabona ko harimo amabati, harimo ibyuma, harimo amatiyo, n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi yitwa ganza puraza inzu inzu y'ubucuruzi, igeretse gatatu cyangwa ifite amagorofa atatu, yo hejuru urabona ko ikoreshwa ikorerwamo harimo resitora, harimo n'iduka ricuruza imyenda.

Iyi ni kampani yitwa modani edikesheni konsati ifasha abantu mu kwihugura mu ndimi, ikabashakira visa zo kujya hanze ikabashakira sikorashipu zo kujya hanze, mu kubashakira uburenganzira cyangwa ibyangombwa bibajyana mu bihugu byo hanze.

Iri ni iduka ricuruzaga ibyuma by'amagare cyangwa ibyuma basimbuza mu magare, mu gihe bari kuyakora. Aya ni amaringi, harimo amaringi y'amagare ya siporo na maringi y'amagare asanzwe.

Iri ni isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye, biragaragara ko harimo imikoropesho, indobo utubase, ibikapu, ibikapu harimo n'ibiroso bikoreshwa muri tuwarete, intebe, ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu ngo.

Aka ni akabare, ni akabari kitwa Lasitarada gaherereye i Yawunde mu Karere ka Musanze mu Murenge wa Musanze ku muhanda ujya Rubavu.

Iri ni iduka, aho bafasha abantu gukora ibyapa, gukora amakashe, gukora imfunguzo, gushira amafoto ku mupira n'ahandi hose hakenewe.

Iri ni isoko, isoko ricuruzwamo ibyombo cyangwa ibikoresho byo mu rugo, harimo: indobo, udutebe tw'abana, amabase, imikoropesho, intebe, ameza n'ibindi bikoresho harimo n'amashuka n'ibikapu.

Aha ni aho bacururiza uduseke， hitwa IREBE basiketi korekishoni， ni ahantu hacururiza uduseke，bikaba ari by'umuntu ufite terefone ya zaro， karindwi，umunani，umunani，gatanu，kane，gataratu，，gatatu，gatanu，karindwi.

Iri ni iduka ricuruza poroduwi cyangwa porodagiti z'inyange，inyange ni uruganda rukora amata cyangwa rutunganya amata， rugatunganya n'amazi，uru ruganda rero rukaba rufite abantu baruhagarariye hirya no hino mu gihugu，n'uyu ahagarariye uruganda rw'inyange hano muri aka karere ka Musanze.

Aba ni abaririmbyi cyangwa se korari iri kuririmba, cyangwa se iri kumurika arubumu kuko urabona ko bizihiwe, bari kumurika cyangwa bafite igiterane cyangwa igitaramo.

Iyi ni korari korari igizwe na ba mama harimo n'abagabo, bambaye iniforume ni korari cyangwa itsinda jy'abaririmbyi baririmba, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana.

Iyi ni banki yitwa Enisibi eyi ni banki ikomoka muri Kenya ariko ikaba ikorera no mu Gwanda. Abantu mujya mukoresha momo mubona ko niyo iguza cyangwa itanga amafaranga muri mokashi.

Iyi ni sitade irimo abantu benshi bari muri gahunda zitandukanye za Leta, kuko bafite ibyapa bigaragaza n'ibyo bakora. Hari hashobora kuba harimo egisipo cyangwa imurikabikorwa.

Iki ni icyapa kigaragaza hoteli, hoteli ya laparume. Laparume hoteli ni hotel iherereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza iyi hoteli uba iri ku muhanda uva Musanze ujya Gisenyi ugiye kugera ahantu bita iyawunde.

Iyi ni hoteri. Ubu iriho imbere yaho hari ubwogero cyangwa se pisine aho abantu bajya koga bashaka kwivura amavunane cyangwa se koga bisanzwe banishimisha.

Iyi ni hoteri Fatima, hoteri Fatima ni hoteri iri mu karere ka Musanze, ikaba ari hoteri y'abagatolika iri imbere imbere y'akarere ka Musanze, ruguru y'ibiro by'intara y'amajyaruguru ku muhanda ugana Gisenyi cyanga werekeza Gisenyi.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo amasafuriya, harimo ibyuma byo gukata cyangwa byo gukoresha mu rugo, harimo udukoresho dukoreshwa mu rugo babikamo ibintu bitandukanye, harimo imiceri n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, cyangwa ibindi bintu bikenerwa mu rugo, cyane cyane mu gikoni n'iby'isuku.

Iri ni isoko, isoko ririmo bigaragara cyane ni bihaza ariko biragaragara ko harimo n'ibindi bicuruzwa harimo n'imbuto, harimo n'amatunda, harimo na voka.

Hano ni mu isoko aho bacururiza ibiribwa, harimo imboga, harimo ibirayi, harimo n'izindi mbuto zitandukanye zikenerwa n'abantu benshi.

Iri ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo, ndabonamo imyenda y'imbere n'utundi duconsho harimo n'imyenda cyane, cane cane n'ibindi bicuruzwa bigaragara cangwa bibarizwa mu isoko, isoko riciriritse.

Hano ni isoko, isoko ririmo ricururizwamo ibintu bitandukanye, ariko iyi foto igaragarako ari bacururizamo imyenda, amasogisi n'ibindi bitambaro byo mu mutwe n'ibindi bitambaro cyangwa indi myambaro.

Aka ni agasoko aba bamama bahagaze uko ari batatu bari gucuruza avoka, izo avoka zigaragara kuri aka gatanda batandikaho ibicuruzwa bitandukanye.

Iri ni isoko ririmo ibicuruzwa cyangwa n'isoko ry'ibiribwa haba harimo inyanya, harimo kokombure, harimo sereri ,harimo amabasi ,harimo n'abantu bari gucuruza ibi biribwa muri make iri ni isoko ry'ibiribwa.

Izi ni indagara, uyu mugore uri imbere biragaragara ko ari umucuruzi wazo, indagara zikungahaye ku ntungamubiri nk'uko abajyanama cyangwa inzobere mu buzima zidushishikariza kujya cyangwa kugaburira abana indagara kuko zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye.

Ibi ni ibisheke, ibisheke barabirya bibamo isukari bikungahaye ku isukari, ibisheke bihingwa cyane cyane ahantu hari imisozi muri za muri Gakenke no mu gice cya Musanze ariko cyegereye Gakenke, no mu tundi turere ariko dufite mu butumburuke buri hejuru.

Iri ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, uko bigaragara harimo amazu menshi acururizwamo, harimo n'abantu bigaragara ko ari abacuruzi cyangwa abaguzi.

Ni umudozi udoda akoresheje imashini, imashini zidoda imyenda. Ari gutera ipasi, ipasi ni ipasi y'icyuma atari izi pasi za kizungu ni amapasi ya kera.

Iri ni isoko riricururizwamo ibiribwa, harimo ibitoki, harimo abagura n'abacuruza, harimo inyanya, harimo karuti n'ibindi bicuruzwa cyangwa ibiribwa bacuruza.

Izi ni wotameroni, wotameroni ni imbuto, imbuto ziba zimeze ziteye nk'ibihaza, ariko ni imbuto barazijya ari mbisi mu nda haba ari umutuku.

Ibi ni ibyombo cyangwa ibikoresho bikoreshwa mu gikoni harimo: amasahani, harimo indobo, harimo amajaga, harimo ibiyiko, n'ibyuma byo gukoresha mu gukata cyangwa guhata ibintu bitandukanye.

Ibi ni ibibuti cangwa ibiraro by'inkoko, ibi biba biboshe mu migano, ibi babishiramo inkoko zikabibamo, kugira ngo bazishire mu nzu, akenshi na kenshi kugira ngo zitanduza inzu, ni ibi bintu, ni ibi bibuti bazishiramo biba bikozwe cyangwa bibashwe mu migano.

Iri ni isoko isoko aho bacuruza ibikoresho bitandukanye ariko hano harimo ibikoresho byo mu rugo harimo; utuyunguruzo harimo umutozo, harimo ibiroso, harimo amaga abakoresha bari koza n'ibindi.

Iri ni isoko. Iri soko ryitwa goyiko riba mu karere ka Musanze. Ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hano biragaragara ko harimo: imyenda y'imbere, harimo amapampa y'abana, n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, ariko rifite amayetaje hafi atanu, buri etaje iba rimo ibice yicururizwamo.

Iri ni isoko ry'imbuto aho harimo imbuto zitandukanye n'imboga. Harimo imboga, harimo karoti, harimo intoryi harimo n'izindi mboga rwatsi n'imbuto.

Iri ni isoko ririmo imbuto z'ubwoko buta butandukanye harimo: imineke, harimo amatunda, harimo amapera ,harimo n'ibinyomoro.

Iri ni iduka ricuruza amavuta n'imibavu, ririmo amavuta y'ubwoko butandukanye, harimo n'amasabune y'ubwoko butandukanye ariko ya masabune ahenze atigondegwa n'umuntu uwo ari we wese.

Iyi ni butike icururizwamo ibicuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ifu, ifu isanzwe y'igikoma, harimo n'akawunga, akawuga ko gutekamo umutsima, harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bikenerwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa bari imifuka y'imiceri, harimo amavuta, harimo ibirungo n'ibindi bicuruzwa bitanga ibiribwa bitandukanye biboneka mu masoko.

Ibi ni icuruzwa bitandukanye birimo imbuto harimo pome harimo inyanya harimo amashu n'ibindi bicuruzwa bicuruzwa mu isoko.